Aha ni mu kabari. Akabari ni ahantu abantu basohekera bakajya kunywa no kurya bishimye, banasohokanye n'ababo. Akabari kabamo ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye, kakaba kinjiriza nyirako amafaranga, n'abahagiye bakanezererwa baga bataha bishimye.

Aka ni akabare, aho abantu bajya kwiyakirira, bakishyura amafaranga, na nyir'akabare akabona amafaranga, akabasha gutera imbere. Harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, zirimo imvamahanga n'izindi.

Aka ni akabari karimo intebe, intebe ni igikoresho bakoresha bicaraho ,harimo n'inzoga banywa iyo bakeneye ka manyinya, kugira ngo baze kumererwa neza.

Ubu ni ubucuruzi bw'imyenda itandukanye. Imyenda ikaba yinjiriza abantu bakabasha kubona amafaranga. Bukorerwa mu karere ka Musanze n'ahandi hatandukanye nko mu isantere y'ubucuruzi ya Kinigi n'ahandi. Bigaragara ko ari imyenda.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zigeretse izo twita amagorofa, zikaba zikorerwamo ibintu bitandukanye, harimo serivisi za banki, hakabamo no gucuruza baranguza ibinyobwa bitandukanye, imbere yazo hari abagenzi barimo kugenda n'amaguru, hakaba na puberi mu rwego rwo gushyiramo aho bashyira imyanda, kugira ngo birinde umwanda.

Izi ni inzu z'ubucuruzi. Inzu z'ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, birimo n'ibyo kurya hari n'aho mbona hari na za voka, imbere y'aho hari moto zihaparitse, hari n'abantu bahagaze barimo kuganira.

Ibi ni ibikoresho bitandukanye dusanga mu rugo twifashisha mu kuryama, kuko mbona hari imifariso hakaba n'ibyo kwiyorosa, hari n'intebe zifashishwa mu kwicaraho, hakaba n'ibikoresho bakoresha mu isuku, nk'amabase n'indobo n'ibindi.

Aha ni mu isoko ry'ibikoresho bitandukanye, birimo ibyombo, harimo amabase, ibikombe n'amagare y'abana bato. Iri soko rero rikaba ari ingirakamaro, harimo n'amasafuriya, ndabona ahinguka hiryaa..

Izi ni inzu z'ubucuruzi ,inzu y'igorofa igiretse kabiri n'indi iba muns, ni ukuvuga igeretse kabiri n'indi ibanza hakaba hakorerwamo ubucuruzi butandukanye burimo n'ubucuruzi bw'amabati nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bihari bya safintara, hakaba hanakoreramo na serivisi z'ubuvuzi.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zafotowe ahantu ku muhanda, bigaragara ko ari imiryango y'ubucuruzi, ariko ruguru yaho hashobora kuba hacuruza akabari, kuko hari icyapa cya pirimusiko na gatanu bumwe mu bwoko bw'inzoga za siporo na burarirwa.

Aha ni i Musanze ku cyicaro cy'ikigo cy'isuku n'isukura Wasake, gishinzwe amazi, gukwirakwiza amazi. Akaba ari ikigo cyubatswe mu Karere ka Musanze. Umurenge wa Muhoza, inyuma y'isoko ry'ibiribwa rya Musanze.

Izi ni inzu bakoreramo imishinga y'ubudozi, nkuko bigaragara hari ibikoresho bakoresha mu budozi, harimo imashini zidoda, hari n'aho guterera ipasi. Cyangwa se kugorora imyenda bamaze kudoda.

Aha ni ahantu hakorerwa serivisi zo kwakira abashyitsi, ndetse no kuharara, kuko bigaragara ko ari amacumbi harimo n'ibyo kurya.

izi n'inzu z'ubucuruzi zubabatse ku muhanda wa kinigi mu karere ka musanze, imbere yaho hari abacuruzi barimo gucuruza mtn barimo gucuruza ama inite bagakora n'ibya mobayiro mani.

Izi ni inzu z'ubucuruzi, cyane ko ubucuruzi bwinjiriza abantu amafaranga kandi zigafasha abaturage, kwiteza imbere harimo ubucuruzi bw'imyenda, harimo ubucuruzi bw'amakaro akoreshwa mu bwubatsi.

Izi ni inzu z'ubucuruzi zubatse ku muhanda. izi nzu zinjiriza ba nyirazo amafaranga, zikaba ari n'inzu zinamamariza kampani y'itumanaho yitwa Eyateri nk'uko bigaragara ku mashusho.

Izi n inzu zikorerwamo ubucuruzi, imwe ni inzu y'igorofa, izindi nzu zisanzwe zifite amakaro imbere, ikindi ni uko izi nzu zifite imiryango migari itandukanye zikaba ari inzu zikorerwamo ubucuruzi.

Iki ni icyapa cyerekana ahantu hari hoteri ositarimu andi awuti sitore. Hoteri zikaba zikurura ba mukeragendo zikabakira, zikakira ubukwe, n'ibindi birori bitandukanye, n'abandi batandukanye bakomeye.

Iri ni isoko rya goyiko riherereye mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze. Akaba ari isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo: ibicuruzwa by'ubwubatsi, hakabamo n'ibindi bitandukanye bikorerwamo imbere, harimo za banki, ubucuruzi bw'imyenda, inkweto n'ibindi byinshi.

Iyi ni ifoto iriho inzu y'ubucuruzi ikaba iriho ibiti bitandukanye harimo n'ibiti bya voka, ariko izi voka zikaba zitare. Biragaragara ko iyi nzu y'ubucuruzi harimo ibiribwa bitandukanye nkuko bigaragara, n'ibinyobwa bitandukanye.

Izi ni imodoka ziparitse imbere ya resitora, aho ba nyirazo bashobora kuba bagiye kurya cyangwa se kwiyakira. Imodoka ni nziza kuko zorohereza abantu ingendo, ikindi zitanga amafaranga, kuri ba nyirazo iyo bazikodesheje cyangwa bazitije abantu ngo bazifashishe mu ngendo zabo.

Aha ni mu isoko rya gakenke ahakorerwa ubucuruzi butandukanye, hakaba hari na koperative twihangire umurimo bakaba barimo gucuruza imineke, imbuto, indimu n'inanasi, harimo n'ibishyimbo, yewe hari n'ibyapa barimo gucuruza bitandukanye.

Icyo nabasha kubona kuri y'ifoto, n'uko ari ifoto yamamariza wone m moteri, akaba ari akabare gafite amacumbi, harimo n'akomodesheni, harimo ibyo kurya n'i bya fasiti fudu, harimo honiyeni nubu harimo n'ubusitani ndabona harimo indabo imbere aha tubona ni ku muryango winjira.

Iki ni icyapa cyamamariza istagesti hawuzi, bigaragara ko iyi gesti hawuzi yakira abantu mu buryo butandukanye, ikanabacumbikira ni cyo nabasha gusobanura kuri iyi foto nta kindi, hariho na nimero z'abantu bahamagara n'ibitanda byo kurararaho, bigaragaza ko bacumbikira abantu.

Aha ni ahantu hakorerwa, iyi ni ifoto yafa, ni ifoto yafashwe akaba ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'akabari n'amacumbi akaba ari muri Susa ni ukuvuga mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze

Iyi ni inzu y'igorofa ifite ibyumba bitandukanye, ikagira n'ibigega bihazengurutse, hari n'abantu bahari, hari n'imodoka iparitse iruhande rwayo, hakaba n'amapoto y'amashanyarazi ahari. Iyi akaba ari inzu bakoresha bakoreramo businesi zitandukanye kugira binjize amafaranga.

Ubu ni ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, burimo izo mu bwoko bw'amaronji, wotameroni, bukaba harimo n'ubwoko bw'amatunda, n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo n'indobo bacururizamo amafu, wagira ngo ni amafu y'ubunyobwa.

Aba ni abantu bari mu isoko, barimo guhaha. Hari ibisheke biri inyuma yabo. Batonze umurongo bajya guhaha ibintu bitandukanye. Akaba ari mu isoko rya Musanze, Akarere ka Musanze.

Iyi foto ni ifoto yafatiwe ahantu mu isoko ry'ibiribwa, bigaragara ko wagirango n'i isoko ry'ibiribwa rya Musanze. Harimo ibiribwa bitandukanye: harimo imineke, harimo amavoka, arimo wotameroni, harimo n'ibinyomoro, harimo ibitunguru. Ni ifoto igaragara nk'iteye mabengeza.

Iyi foto ni ifoto y'isantere y'ubucuruzi. Bigaragara ko ari ahantu bacururiza, hakaba harimo abantu batandukanye harimo abakozi b'abajenti ba MTN, hakaba harimo n'abandi bantu basa nk'aho bari guhaha. Ndabona harimo n'imodoka bigaragara ko ari muri parikingi. Hari na parikingi wagira ngo ni isoko rya Mukamira ni ryo mbona rimeze gutya riri impande y'umuhanda.

Icyo navuga kuri iyi foto iriho abantu batandukanye wagira ngo baremye agasoko ka ni mugoroba, hari abicaye, hari abahagaze basa n'abarimo kuganira, hari umukecuru urimo guhambira imishingirizo, hari n'ibigori bitatu. Bigaragara ko akazuba kari kuva, iyi foto nicyo irimo kugaragaza rwose, ndabona ariko ko bimeze, harimo n'abantu bitwikiriye umutaka.